Ubwinjiriro bw'ikigo cy'amashuri abanza busa ibara ry'ubururu, abana babiri barimo kwinjira abahetsi b'ibikapu bambaye impuzankano y'ubururu hejuru ndetse n'ibara rya kaki hasi, bari kwinjira muri icyo kigo mu imbere ku kigo harimo indabyo nyinshi zikase neza ziconze.